Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara, ku ruhande hashushanyijeho abantu batatu b'abazungu bari kureba muri telefone, bari mu kapa kandi gashushanyijeho k'icyatsi kibisi.

Hano hari abantu babiri bishimye bari guhana ibiganza, bafite urupapuro mu ntoki, imbere yabo ku meza arambitse izindi mpapuro n'agapupe, harambitse n'indorerwamo z'amaso, hari n'amagambo yanditse ngo zigama none tera imbere ejo, ejo ikimina cyacu.

Icyapa kinini cyane kiriho umudamu uhetse n'undi mukobwa yamufashe mu mugongo. Handitseho somachi mowa dani herifi insuwarensi keya sosi. Icyapa munsi gikoze neza gifite ibyuma kiriho udutara giteretse ahantu.

Hari icyapa cy'ubwishingizi hariho n'ishusho cyangwa se ifoto y'umukobwa wambaye ishati y'umukara hirya hakurya hari ikimodoka kinini bimwe bikora umuhanda haragaragara ko hariho n'amazeru atanu kuri icyo cyapa.

Turi kumwe turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe ha radiyenti iwacu yacu hari imodoka iparitse mu muhanda ifite ibara ry'umweru hakurya hakaba moto itwaye kizimyamwoto.

Aho bacururiza ibintu bitandukanye, harimo imigati, amandazi n'utundi tuntu wakwifashisha ufata amafunguro ya mu gitondo, hari utubati twiza dukoze neza babikamo ibyo bicuruzwa, mu nzu ifite ibirahuri by'umukara n'amarangi y'umweru.

Ni mu isoko, isoko ry'imyenda, hari imyenda myinshi, hari amashati, hari imipira, hari ingofero, hagaragara ko hasa n'ahijimye, hari ingofero z'umutuku, umuhondo n'andi mabara atandukanye, hari n'umupira w'umutuku.

Iduka, hari imyenda myinshi, hari inkweto, hari inkweto zo mu bwoko buhagaze, hari n'inkweto zo mu bwoko bwa sandari, hakaba n'inkweto zifunze, hari amakanzu, hakaba n'amashati.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'imodoka, bambaye udupfukamunwa, bambara amasaha, bafite terefone, inyuma y'iyo modoka bahagazeho hirya y'aho na ho hari iyindi n'inyuma yabo hari inyubako.

Hari imodoka nziza cyane iri muri parikingi, parikingi irasakaye hejuru, hariho ibyuma bimeze nk'amaferabeto. Hirya yayo hari n'izindi modoka nyinshi.

Hari imodoka nziza cyane y'umweru yanditseho Toyota, iraparitse ifite amapine y'umukara, iriho ibyapa cyangwa se amatara y'umutuku, iri mu bwoko bwa Yundayi nayo.

Imodoka iparitse, imbere yayo hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umukara n'ingofero, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma yayo hari ibiti, hirya hari inyubako, aho iparitse hashashe amatafari.

Muri parikingi cyangwa se muri gare hari imodoka zihaparitse nyinshi za volokano, hari umugabo wambaye umupira n'agapfukamunwa, wambaye umupira w'ubururu ukorera volokano, hari n'undi wambaye umupira w'icyatsi n'agapfukamunwa.

Hari imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi kereta, bibiri na cumi n'icyenda nibwo yakozwe, ikaba yanditseho ko iri kugurishwa miliyoni cumi n'eshanu, ba pulake bayishe nta igaragara mo mbere bigaragara ko harimo umuntu wicayemo.

Ni muri banki, hicaye umuntu afite amafaranga mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa, mu idirishya hari undi muntu wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi minini kandi yambaye n'umupira w'umukara, urimo imbere ari kubara amafaranga afite n'ikaramu.

Hano hari inote y'ibihumbi bitanu iriho ikirango cya banki nkuru y'u Rwanda. Iriho abakobwa bakita abari n'abategarugori bari kubyina, hasi hariho inzu bigaragara ko ari nka banki y'u Rwanda.

Haragaragara ibiganza by'umuntu bibiri, wambaye ibikomo ufite amafaranga mu ntoki. Ubona ko ari kuyahambura, kuyabara. Amafaranga arambitse ku meza menshi.

Hari abagabo babiri, umwe yambaye ingofero, yambaye n'agapfukamunwa, undi yambaye umupira w'umweru, umwe ari hirya y'ameza, undi ari hakuno, barimo kuvugana, imbere yaho hateretse na mudasobwa, hari n'icyapa cya MTN.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uburongo bw'umutuku bwijimye n'agapfukamunwa k'ubururu, ari imbere y'umuryango wa banki, imbere ye hari undi mugabo wicaye imbere muri bife amadarubindi n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, arimo aramwerekera ku rupapuro rw'umweru bigaragara ko uyu mugabo aje kwaka serivisi runaka.

Ni mu cyumba, hari umugabo uhagaze, ari gusinya, yambaye ikote ry'umukara, imbere ye hari mudasobwa, hari imashini, inyuma ye hari indi mashini irimo amabara y'ubururu n'icyatsi kibisi.

Hari ikirango cyazaru urugi rugaragaza ko rufumu ageze rufunze, ku ruganda rw' Inyanza rukora amata.

Ibiganza bifasha telefone ni iby'umukobwa afite inzara zisize ihina ritukura, yambaye ishati cyangwa se umupira w'icyatsi kibisi yambaye udukomo ku ntoki terefone yanditsemo ussd irimo ikirango cya Yesu.

Amafaranga menshi, hari abantu babiri, hari ikiganza kimwe kiyafashe, hari n'ikindi gifashe imashini kirimo kuyabara, amafaranga ateretse ku meza, umudamu uhari yambaye ikoti ry'umukara, mu maso ntabwo hagaragara.

Hano hari abadamu babiri umwe aricaye undi amuhagaze imbere, inyuma y'uhagaze hari intebe ifite ibara ry'umukara, hari amarido afite ibara ry'umweru, afite ikaramu n'impapuro ku meza ye uwicaye na mudasobwa.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga bisa nk'aho biri kuyabara, impande y'ibyo biganza hari akamashini kabara amafaranga gateretse hejuru y'urupapuro rw'umweru, hakurya y'ako kamashini hari andi mafaranga arambitse hejuru y'impapuro z'umweru, bigaragara ko uyu muntu arimo arabara amafaranga n'intoki.

Hari umugabo wambaye umupira w'umweru ari guhererekanya n'umukobwa amafaranga mu bigaragara bari kuvunja icyo twita nko kuvunjisha, uri kubona ko ibiganza ari iby'umukobwa n'umugabo inote n'iy'ijana.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga. Iruhande rw'ikiganza kimwe hari imashini ikoreshwa mu guteranya imibare. Hari andi mafaranga menshi afungiye hamwe, arambitse ku meza y'igiti.

Umugabo wambaye ishati iriho move, iriho n'irindi bara, ari kwandika imibare, muri iyo mibare aho ari kwandika hariho mirongo ine, ahagaze imbere y'ahantu hari ibyapa byinshi byanditseho imibare.

Ibiganza bibiri bicigatiye amafaranga ari mu noti za bitanu kuri ayo mafaranga hashushanyijeho umuntu wambaye ingofero imbere y'ibyo biganza hari ameza ariho andi mafaranga ari mu note z'ijana ziriho umuntu ufite imisatsi miremire biragaragara ko uyu muntu ari kubara amafaranga.

Inote enye z'amafaranga yo mu bindi bihugu, imwe irasa ubururu yanditseho amafaranga makumyabiri, indi iri mu ibara ry'umutuku yanditseho amafaranga icumi n'indi iri inyuma y'iyo y'ibara ry'ubururu yanditseho amafaranga mirongo itanu.

Icyapa cyanditseho foregisi biro biro do cenge tuzamurane, bipi magana atatu na cumi nagatatu, mobi zeru umunani, gatanu, gatatu, zeru, gatatu, makumyabiri byapa inyuma yacyo hari ikindi, inyuma aho bifatiye hari inyubako ndende.

Ni muri salo hari intebe z'umukara, hari ameza y'umweru n'utundi tumeza dutoya tubiri, hirya hari icyapa haranditseho, hari inzugi za mitarike.

Isoko rikora intebe, ricuruza intebe na matera. Haragaragara intebe nyinshi, matela nyinshi kandi ziri mu moko atandukanye hari n'utubati n'imisego yizo ntebe.

Ni mu cyumba hari akabati, hejuru yako hariho isaha cyangwa se ururabo ruriho ishusho y'isaha, hirya hari igitanda gisasheho amashuka y'amabara y'umweru, hariho n'umusego.

Ni muri sare hari intebe nyinshi z'umukara, hari n'ameza ari imbere y'izo ntebe ateretseho uducupa tw'amazi twinshi, inyuma ya za ntebe z'umukara hari indi meza itariho ikintu no hirya inyuma hari imeza inyuma yayo hari izindi ntebe nyinshi.

Ni mu cyumba hari intebe nyinshi cyane n'ameza ateguye neza, hari intebe zitukura, ameza atukura, intebe nziza cyane, hateguyeho indabyo ku meza, hirya hari amarido ajya kuba umuhondo, hejuru naho muri parafo irasa umuhondo.

Icyumba cyiza cyane gisize irangi ry'umweru gifite amakaro hasi, giteyemo intebe zigiye zisize irangi ry'ubururu, kuri izo ntebe hagiye hari ameza asa umweru hejuru afite amaguru y'umuhondo, iki cyumba bigaragara ko kiberamo inama y'ibintu runaka.

Mu nzu hari abantu bicaye ku ntebe z'umukara , hari abantu imbeme yabo hari mudasobwa, mu bigaragara bamwe bari mu kiganiro cy'akazi cyangwa se gisaba akazi, abandi ni abatanga akazi.

Ni abantu benshi bambaye amakoti, hari n'abambaye amashati y'umweru bafite na baje, tuzahora tubikora kandi tuzabikora neza. Ibigaragara bavuye mu nama.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka, zimwe zisize amarangi y'umweru, izindi zisize amarangi y'umukara, impande y'izo modoka hari inzu ndende ya etaje isize irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hari icyapa cy'ubururu, ku muhanda wa kaburimbo kandi hari amatara amurikira abagenzi.

hari inyubako igeretse hirya hari ingazi aho abantu bamanukira abantu bari kuzinyuraho hari n'umugabo uhagaze imbere yayo urimo kuyitegereza inyubako y'ubwishingizi ikigo maho cy'ubwishingizi.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, afite urupapuro rw'umweru mu ntoki, afunze igipfunsi, ari guseka imbere ye hari mudasobwa hateretse n'agakombe ku meza kazwi mu bwoko bw'amatasi, hejuru haranditse ngo BK turi kumwe, bona angana inshuro ebyiri z'umushahara wawe mu masaha mirongo ine n'umunani.

Itangazo rya banki y'abaturage b'u Rwanda, rimenyesha abanyamuryango bayo ko bitarenze ku itariki mirongo itatu n'imwe Nyakanga bibiri na karindwi, buri munyamuryango agomba kuba yiyandikishije.

Ni umukobwa n'umuhungu, umukobwa bafite urufunguzo barahoberanye, barishimye cyane, bigaragara ko ari urufunguzo rw'inzu, hejuru haranditse ngo own your home with no dawn payment. Umuhungu amufashe mu nda, umukobwa na we amufashe ku mugongo.

Hari abantu benshi, harubakiye, ni mu isoko, hari inkweto nyinshi, hari n'abantu bicaye bari gucuruza izo nkweto n'abari kuzihaha n'abandi bari gutambuka.

Mu isoko hari abantu benshi, hari abahetse abana, hari abahagaze nta mwana bafite, hari imyenda, hirya hari n'imbuto ziri kugurishwa, hari umudamu wicaye witeze n'igitambaro, inyuma ye hateretse intebe nta kintu kiyiriho.

Umugore wambaye agashati k'igitenge k'agasengeri karimo utubara tw'umuhondo n'ijipo bisa. Ahagaze imbere y'umutaka wa eyateli, inyuma ye ihari igikamyo gisize irangi ry'ubururu, impande ye hari ibinyabiziga bihaparitse birimo moto, hakurya yabyo hari inzu z'ubucuruzi.

Mu isoko hari ikanzu, hari intebe, hari ibindi bintu bitandukanye, hari abantu benshi, hasi hari amapave y'umweru, hari n'intebe z'ubururu.

Abantu benshi cyane b'urujya n'uruza bikoreye ibitoki ndetse n'amakara n'indi mitwaro itandukanye bari imbere y'inzu ya etage isize irangi ry'umuhondo n'umutuku bigaragara ko aha hantu habera ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Isoko ry'imboga, harimo umuma wambaye ikoti ry'umukara n'indorerwamo z'amaso, aritangiyeye, afite imboga mu ntoki, imbere ye ateretse izindi mboga zirimo: betarave hakurya hari amafu, hino inyuma ye hari izindi mboga zirimo karoti, hakurya ye hari abantu babiri umwe yifashe mu mutwe.

umugabo wambaye agapira karimo amabara atambitse y'umweru umutuku n'umukara yambaye ipantaro yumukara n'inkweto z'umutuku afite indobo y'umweru irimo ibiraha imbere ye hahagaze umugore ufite igipupe ufite n'agasharupe mu ijosi wambaye ikanzu y'igitenge n'udukweto tw'ubururu bwerurutse inyuma y'uwo mugore haribase irimo akavudo gacimbuye k'umuhondo iteretse ku gatebe

Mu isoko hariru umuntu wicaye yambaye ikabutura umupira w'umukara n'imberera n'umweru, hejuru hamanitse imyenda myinshi cyane n' inyuma ye hari abatayeri hari n'imashini zidoda imyenda, nko hagati mu isoko harimo abantu bari kuhagenda hari umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikote ry'ikoboyi imbere yawo wambaye ikabutura n'umupira w'umweru.

Abasore n'inkumi bahagaze mu iduka bacururizamo imyenda itandukanye, hari umusore wambaye umupira w'ubururu n'ingofero aherekeje inyuma n'ipantaro ya kaki, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umweru, inyuma yaho hari imyenda icururizwa muri iryo duka.

Mu isoko hari imbuto, hari umucuruzi, hari n'abaje kuzigura, umucuruzi afite akamashini cyangwa se imashini ibara amafaranga, uwaje guhaha yambaye indorerwamo z'amaso.

Inyubako nini cyane haparitse amamodoka menshi, amamoto, hari n'abantu benshi barimo kuhanyura; hirya hari igiti kiri guhinguka hasi ni kaburimbo.

Ni mu isoko ry'imbuto hari imineke, hari amatunda, hari amaronji, hari abamama babiri n'umugabo umwe bigaragara ko umwe ari guhaha, hasi aho umumama ari mu kabati, harimo isakoshi y'umutuku, hari n'igitoki kimanitse cy'imineke ariko idahiye, hari na wotameroni.

Hari ikirango MTN, hari imibare akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri gatandatu gataradatu gataratu gatandatu gatatu zeru urwego, hasi handitse MTN.

Umusore n'inkumi bahagaze ahantu hari akazu ka MTN gafunze, ku gikuta gisize irangi ry'umuhondo, umugore yambaye umupira w'umuhondo wa MTN, umusore yambaye umupira w'icyatsi n'akagofero k'abayisilamu.

Umukobwa mwiza usutse menshi wambaye akaburuze k'umweru, ari mu kazi MTN, acuruza serivise za MTN, gutanga amayinite, kubitsa no kubikura.

Abantu benshi bamamaza ko ushobora kwishyura ukoresheje momo, afite telefone, yambaye isaha, afite amvirope irimo ibihembo bamuhaye.

Akazu ka emutiyeni gasize irangi ry'umutuku imbere yako hahagaze umuntu wambaye ishati y'cyatsi kibisi, hirya yako kazu hari undi muntu uhagaze impande y'imodoka y'ubururu wambaye umupira w'umuhondo. Kuri ako kapa ka emutiyeni kandi handitse amagambo avuga ngo ohereza amafaranga.

Akazu ka mtn inyuma yaho gakikijwe n'indabo z'ibyatsi by'ubururu, hakurya yaho hari imodoka iri guhinguka, hasi hafashe amabuye.

Akazu k'umuhondo ka emutiyene, imbere yako ahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara ufite uturongo tw'umuhondo dutambitse na bodaboda z'icyatsi kibisi. Kuri ako kazu kandi handitseho imibare ivuga ngo akanyenyeri rimwe kabiri gatandatu urwego, kagaragaza ko ugomba kwishyurana na emutiyeni mobayilo mane.

Icyapa cy'umweru, kirimo ibintu bijye bitandukanye biri kwamamazwa, hagaragaramo agasakoshi keza, ndetse impande y'ako gasakoshi hari ikoti ry'umukara, rifite n'imashini, impano y'iryo koti hari umugore ufite imisatsi miremire, iki cyapa kigaragaza ko wagura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga.

Hari isoko bari gutanga itangazo, hari abacuruzi, hari inyanya, imboga n'imbuto, ibijumba, imineke n'ibindi bitandukanye ikindi hari n'abantu, hari imodoka.

Hari icyapa kigaragaza ko ari iduka ricuruza kuri murandasi, Kigali Rwanda, bakaba hepfo hari amagambo yanditse ko, urubuga rwabo nk'iduka ricururiza kuri murandasi, ruherereye mu Rwanda ariho usanga ibicuruzwa byabo.

Hari umusore uri kuri moto, moto ifite amabara y'ubururu, na we yambaye ipantaro y'ubururu, inkweto zirimo amara y'umweru, umukara n'ubururu, amasogisi ari mu mabara y'umweru n'ubururu, afite kasike y'icyatsi kibisi, umupira w'icyatsi kibisi, yambaye ga z'umukara, afite umusatsi mukeya, hejuru haranditse ngo safirani.

Icyumba cyiza gisize irangi ry'umweru, gifite itara rinini rikozwe mu mabara y'umukara. Imbere y'icyo cyumba harimo intebe zifite umwenda w'umweru, imbere y'izo ntebe yateretse akameza n'ako gakozwe mu mbaho. Hakurya yako kameza hari intebe nayo irimo umusego uri mu ibara ry'ubururu. Hahagaze kandi umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu. Bigaragara ko arimo arerekana ko iyi nzu igurishwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga.

Inyubako igaragara ifite urugi cyose igipangu cy'umukara, hasi hasashe amabuye ahiye, cyangwa se amatafari ahiye, inyubako na yo ubwayo yubakishije amatafari ahiye avanje n'amabuye.

Ni amazu agurishwa i Kibagabaga i Kigali ku giciro kingana n'amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, harimo akabati gateretseho amazi, hariho igikombe hirya hariho urugi rusa umweru.

Hano hari inzu ebyiri zikodeshwa, hari ibyumba bibiri byo kuraramo, hari ubwiherero bubiri, hari n'ibindi byumba bitaruzura. Ku kwezi hakodeshwa amafaranga angana n'ibihumbi magana atandatu, hahagaze umuntu uri ku muryango.

Inzu nziza cyane yo kubamo isizira ry'icyatsi kibisi, isakaje amabati atukura, imbere y'iyozu hari akabaraza gasi irangi ry'umweru ndetse n'amakaro hasi. Imbere y'inyozu kandi ihagaze umugabo wambaye hejuru ubusa n'ipantaro y'umukara. Ifite igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu, handitseho ko ari iya Kigali kibagabaga, igurishwa ibihumbi miliyoni ijana na mirongo ine.

Hari inyubako igurishwa ibihumbi cumi na bibiri by'amadorari, ikaba iherereye i kigali, Rwanda kuri kagarama.

Hari inzu ikodeshwa amafaranga angana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu, ifite icyumba kimwe, ubwiherero ikagira n'igikoni, iri hafi y'umuhanda wa tarimaka, hirya ifunguye umuryango, ifite igikuta cyubakishije amabuye.

Inzu nziza isize irangi ry'umuhondo ishakakaje amabati y'umutuku ifite amakaro y'umweru ku kabaraza, ku ruhande rwayo hasi hari amakaro ari mu mabara y'umukara n'umweru, iruhande rwayo hari jaride y'icatsi kibisi ya pasiparumu, handitseho amagambo ngo iyi nzu irakodeshwa, iriherereye i Kigali Kimironko.

Ni inyubako nziza cyane igurishwa igiciro kingana na miyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, hanze hashashe amabuye, imbere irimo amapave, ku kabaraza nk'uko bigaragara, hanze ku nyubako hari itara.

Hari abantu benshi cyane bahagaze bamwe bari kureba hirya abandi bari kureba ibumoso, hirya hariri icyapa cyanditseho Sikoro hasi bigaragara ko hari amapave bari mu nyubako hagati isakariye bigaragara nkaho ari muri koridori.

umugabo ufashe agakapaniye k'umutuku mu ntoki ahagaze ahantu ku kabati gatereretsemo ibinyobwa bisembuye bitandukanye uwo mugabo yambaye umupira w'umukara inyuma ye hari akandi kabati k'umweru karimo amacupa y'inzoga.

Icyumba kicayemo umugabo n'umugore, umugore ateze agatambaro k'umutuku mu mutwe yitwikiriye n'igitenge, umugabo na we yicaye ku ntebe arimo arandika, afite ikayi n'ikaramu ari kwandika, yambaye ikote ririmo umukara n'umweru, hirya yabo hari aka etajeri gasa n'agapanzemo ibitabo.

Abantu babiri umugore n'umugabo bambaye udupfukamunwa, umugabo yambaye n'indorerwamo z'amaso, bafite icyapa cyanditseho Mukanziga Pasikaziya, bafite icyapa cyanditseho amafaranga miliyoni n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu.

Inyubako igaragaza ikigo nderabuzima cya Remera, ifite amabara y'umuhondo harimo, hirya hari abantu bicaye ku ntebe babiri, hari n'undi muntu umwe uri gusohoka mu muryango, hari lakerete na pubeli.

Abantu ni abayisiramu bambaye imyenda ibaranga, bambaye ingofero, bafite amakarita mu ntoki agaragara nkaho hariho amafoto yabo na kashe, hasi hashashe umukeka.

Mu cyumba cy'inama hari abantu batandukanye, hari abagore, hari abagabo bari gukoresha mudasobwa abandi bafite impapuro bari gusoma, hari n'ibisohora impapuro.

Ikarita ya mituweri iri mu ibara ry'umuhondo, iriho ifoto y'umwana muto wambaye ishati y'umweru, amazina ya nyirikarita ni Nkundimana. Afite nimero y'ubwisungane mu kwivuza ya zeru rimwe zeru kabiri akarongo, cumi nagatanu, akarongo, kabiri icyenda karindwi rimwe, akarongo, zeru umunani. Iyi karita yatangiwe mituweli mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, bibiri na cumi na kane.

Umukobwa mwiza usutse udusuko twiza w'inzobe, wambaye umupira w'umutuku n'itaburiya y'umukara. Ari gufata terefone ari guherezwa n'umuntu usa n'aho ari umugabo, wambaye agapira k'umukara kamufashe k'amaboko.

Ni isoko uriini cyane, harimo umuntu uri guhaha ufite akagare bahahiramo, harimo ibintu bitandukanye, inyuma ye hari abandi bantu bari kumufotora benshi.

Mu isoko hagati hari abagabo babiri bari guseka hari undi umwe utwaye akantu ko guhahiramo, hari akawunga, hari umuceri, hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, hari umugabo uri kumanura ibyo guhaha.

Biragaragara ko ari mu isoko aho bacuruza ibintu bitandukanye, harimo amakaye, ibitabo, amavuta, amvirope, hari abantu hari umuntu uhagaze ari gusoma, inyuma ye hari undi wambaye ingofero n'imyenda y'umukara, handitse kunywa ji.

Isoko rinini ricuruza amavuta na shokora hari pubeli hirya hari umuntu hasi hashashe amapave.

Ni mu isoko, hari umugabo ufite akantu bahahiramo, yambaye isaha, yambaye n'imyenda y'umukara, ari mu isoko hagati, inyuma hari undi uri gufotora.